Inzu ibikwamo imiti bifashisha kwa muganga bari kuvura abarwayi indwara zitandukanye ,maze abarwayi bakayinywa bakamererwa neza bagakira, bakagira amagara mazima bityo bikabafasha gusubira mu buzima busanzwe, bakiteza imbere bafite ubuzima buzira umuze.

Abaturage bajyanye abana babo kwa muganga bagafashwa n'abaganga kubahereza ibitonyanga n'indi miti yabugenewe, kugira ngo bibarinde uburwayi maze bakure neza, ababyeyi babo babashe kwiteza imbere nta kibazo bafite.

Ibikoresho byabugenewe bifashisha kwa muganga, bari gusuzuma abarwayi, kugira ngo bamenye uburwayi bafite, maze babahe imiti bakire neza, bagire ubuzima bwiza.